Inyubako nziza cyane yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'umweru, iriho ikibaho abanyeshuri bafatiraho ubumenyi, intebe nziza bicaraho iyo bari kwiga kugira ngo bige mu buryo bworoshye.

Twese dukunde gukora umuganda kuko bidufitiye akamaro, twebwe nk'abantu bakuru yaba n'abana bakiri batoya. Umuhanda mugari cyane urimo abana bambaye impuzankano bari kugenda, impande yabo hari ibyatsi birebire n'ibiti binini.

Uburezi bukomeje gutera imbere mu gihugu cyacu ubutaka bwubatsemo amashuri, arimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru bari kureba ku kibaho cy'umukara, harimo n'umwarimu uri kubaha isomo.

Uburezi bukomeje guhabwa agaciro mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, buri mwana wese asigaye asobanukiwe iby'ikoranabuhanga, inyubako nini cyane iriho abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru, ubururu ndetse n'umurezi wabo.

U Rwanda rwacu rumaze gutera imbere aho rufite inyubako nziza cyane y'ishuri rikuru ry'u Rwanda riherereye i Huye, amazu maremare cyane ageretse gatanu asakaje amabati y'umutuku hariho n'abanyeshuri.

Igihugu cyacu kimaze gutera imbere, aho ibikorwa remezo bimaze kuba byinshi cyane, ishuri rikuru ry'u Rwanda riherereye i Huye, rifite amazu meza abanyeshuri batahamo igihe basoza amasomo.

Iterambere rikomeje kwiyongera mu Gihugu cyacu, ubutaka bunini cyane buriho inyubako yubatswe neza, amatara y'umweru, igitanda kirimo imyenda, imeza iriho akabido k'umweru n'igikombe cy'umuhondo.